Igipapuro kinini kiriho ibicuruzwa ndetse n'amafaranga ya buri gicuruzwa, kifashishwa ahatangirwa ubufasha ku bijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Inzu y'ubucuruzi, ifitemo irangi, ibara ry'umutuku, imbere harimo ibinyobwa bitandukanye n'intebe zirabura, ndetse harimo na firigo, ariko hafite amashusho atagaragara neza.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, imbere hari ibara riri mu cyatsi kibisi imeza zibajwe mubiti, byiza kandi bikomeye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa harimo firigo iri mu ibara ry'umuhondo, ifite icyapa cy'umukara iriho n'ikirangantego cy'imibare bishyuriraho.

Abantu bari ahacururizwa ibinyobwa, bari kureba umupira kuri tereviziyo, bambaye imyenda impuzankano z'umweru.

Inzu igaragara ko harimo ibirahure byo kunywesha amazi ndetse hariho n'akandi kantu k'umweru hakaba n'ibiyiko turisha ndetse n'ibiganza by'umuntu biteretse ku ibara ry'umukara.

Ifoto igaragaza ikinyabiziga gihetse umuntu, ugitwa yambaye impuzangano, ingofero y'umukara , impuzangano y'umuhondo n'umukara, ndetse uri inyuma yambaye impuzangano z'umukara, ingofero ya orange. Icyapa gihari, kiri mu ibara ry'umutuku, kirangaho ikirangantego kiri mu ibara, cya amusiteri.

Umuryango ufunguye urugi rusize irange rya giri, hari ameza, hari n'intebe z'umukara n'amatafari asize irange.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa, irimo firigo iri mu ibara ry'umuhondo ifite icyapa cy'umukara iriho n'ikirangantego k'imibare bishyuriraho.

Inzu y'ubucuruzi ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hari amatara atatse meza cyane ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi. Ku ruhande hari igiti cy'ururabo.

Ahagurishirizwa ibinyobwa bisembuye ikinyobwa gisa kiri mu icupa risa nka shokora ndetse n'ikirahure cy'umweru kirimo ikinyobwa gisa nka shokora giteretse ku meza asa ikigina.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, umukobwa wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara afite akamwenyu ku maso, afite igikoresho k'ikoranbuhanga kifashishwa mukwishyura ukoresheje ikarita

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari igikoresho kifashishwa mu gukwirakwiza amajwi ndetse n'amashusho, bikeye. Hari kandi, uruvunganzoka rw'abantu.

Ni inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa by'ibinyobwa, harimo amakaziye arimo amacupa arimo n'ibinyobwa ndetse n'ibindi biri muri etageri y'umutuku n'ubururu n'icyatsi.

Inzu irimo ibara ry'ubururu n'umuntu wambaye impuzangano itagaragara neza ariko irimo ibara ry'ubururu, harimo televiziyo ndetse n'amafirigo, irimo inzu y'ibinyobwa bisindisha ariko ibara ritagaragara neza.

Icyapa kiranga ahacururizwa ikinyobwa gisembuye kiri mu ibara ry'umeru gishushanyijeho icupa, inzoga iri gusukwa mu kirahure ndetse amagambo yandikishijeho ibara ry'umweru.

Icyapa kiriho ikinyobwa gishushanyijeho ririmo ibara ry'icupa ry'ubururu ry'icyatsi kibisi n'umweru cyanditseho ikirangantego cya mitsingi hari umutaka wa mubara ry'umuhondo n'imodoka y'umweru numwibara ry'umukara.

Icyapa kirimo ikinyobwa gisindisha, kiri icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'inyuguti z'umweru n'izicyatsi, icupa na ryo riri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'ikirahure kirimo ikinyobwa gisindisha mu ibara rya orange.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari abakozi batatu bambaye impuzankano iri m'ibara ry'umweru abagore babiri n'umugabo umwe hagati yabo ndetse hari amatara ari m'ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu icururizwamo, icuruza ibisindisha, irimo amatara y'umuhondo ndetse hakabamo n'amatara y'ubururu ariko asa nayijimye ukuntu.

Umucuruzi w'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, wambaye ikote ririmo ibara ry'umutuku n'ishati iri mu ibara ry'umweru, ari gusuka ikinyobwa cy'inzoga.

Uburyo umuguzi yishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga agahabwa agapapuro kinyemezabwishyu yuko yishyuye kandi neza birizewe biri mu mutekano.

...ucuruzi icuruzwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bitondetse neza ku murongo, hari amatara yari mu ibara ry'umutuku, kuruhande hari igikoresho gikoreshwa mu guhanahana amashusho n'amajwi.

Inzu y'ubucuruzi, irimo mu ibara risa n'iryijimye, harimo ikirangantego cyanditseho sikoro ndetse n'ibinyobwa bitandukanye.

Icuruza icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari intebe ziri mu ibara ry'umukara, imbere kandi hari amatara ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse n'umutuku, hari icyuma kifashishwa mu gukonjesha.

Inzu icururizamo ibinyobwa irimo abantu bizihiwe bambaye impuzangano zitandukanye, hanze hari ibara ry'icyatsi kibisi imbere harimo kwaka amatara y'umuhondo ndetse n'umweru

Ikirangantego kiranga, kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho ijambo "Skol", kiri hasi, harimo utuntu tugiye dufashemo turi mubara ry'ikigina ariko ritijimye cyane.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa, biri mu icupa ry'icyatsi kibisi ndetse n'ibirahura by'umweru n'ameza ya shokora na etajeri itagaragara neza.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda w'amabuye kiri kugenda kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku kiriho umuntu wambaye impuzankano iri mi ishusho ry'umuhondo n'ingofero z'umutuku n'undi wambaye imyenda y'umukara n'ubururu, imodoka y'umweru n'umukara, icyapa cyanditseho amusiteri.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye cyangwa se nayiti karabu irimo imyidagaduro, irimo intebe z'umukara n'amatara ajya gusa asa pinki ndetse n'umuhondo ariko asa nayijimye atagaragara neza.

Igipapuro kifashishwa herekanwa ibicuruzwa biri ahantu runaka ndetse hagiye hariho n'ibiciro byabyo hariho ibyo kunkwa n'ibyo kurya cyifashishwa munzu y'ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, abantu benshi, umutaka uri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ku ruhande hari igiti gito.

Icyapa cy'umukara kiri mu ibara rya shokora kiriho ikinyobwa gisembuye, ikinyobwa cyanditsemo jemusoni. N'ikinyobwa cya jemusoni kir mu ibara rya shokora ryijimye ariko icyo cyapa kir mu ibara ry'umukara hafi aho hari ibiti by'icyatsi kibisi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa, harimo icyapa cyanditse harimo ikirango cya henikeni, ndetse n'abantu bambaye impuzankano z'umukara.

Inzu y'ubucuruzi icuruzwamwo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, hari abantu benshi baje gushaka ibyishimo.

Inzu y'ubucuruzi ibicuruzwa n'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, imbere hari amatara meza cyane ari mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'igikoresho cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaza amajwi n'amashusho.

Igitabo gikoreshwa mu gutanga amatangazo cyangwa kumenyesha abaguzi ibijyanye n'ubufasha batanga cyangwa ibiribwa n'ibinyobwa bitangirwa aho hantu hakaba hariho n'ibiciro bya buri kimwe.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bitandukanye harimo umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi icuruzwamo ibinyobwa bisembeye ndetse n'ibidasembuye, hari intebe ziri mu bwoko bubajwe mu biti zifite ibara ry'umukara ndetse ibyo binyobwa bitondetse neza ku murongo.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kwishyura aho ukozaho ikarita iriho amafaranga ya banki ikubikira hanyuma akavaho akajya kuri iki cyuma ugahabwa inyemezabwishyu yizewe.

Inzu y'ubucuruzi icururizzwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ib'ibadesmbuye hari amatara meza cyane ari mu ibara ry'icyatsi, ubururu ndetse n'umutuku afasha kugira ngo hacye kandi hase neza.

Inzu y'ubucuruzi itangirwazwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari ibiti, inzu yubakishijwe imbaho zikomeye cyane ndetse ibinyobwa bitondetse ku buryo bwiza bushimishije.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembeye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara meza cyane ari mu mabara y'umutuku, ubururu, ndetse n'icyatsi kibisi. Hateretse ikirahure kirimo udutamabaro tw'isuku.

Inzu igaragaramo ibinyobwa bisenbuye ibyo binyobwa birimo amakurete, y'umutuku n'intebe z'umutuku ndetse hari na, n'udupapuro turi mu dushashi tw'umweru n'ama etajeri y'umukara harimo ibinyobwa.

Ni inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye birimo amatara y'umutuku, ubururu ndetse n'umweru harimo intebe zirabura ndetse hakaba hari n'umuntu wambaye impuzankano y'irabura na etajeri y'irabura ijya gusa umuhondo n'umukara.

Ubucuruzi bucururizwaho ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, harimo umugabo wambaye impuzankanano iri mw' ibara ry'umukara, ari kuvangavanga ibinyobwa by'inzoga.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye harimo intebe z'umweru ndetse na kontwari y'umweru n'amatara y'umukara

Inzu y'ubucuruzi irimo tereviziyo irimo ibara ry'icyatsi kibisi, barikureberaho umupira. Harimo n'intebe ebyiri z'umukara ndetse n'abantu bambaye impuzankano zo mu ibara ry'umukara n'umweru ndetse irimo ibara rya shokora n'umweru.

Ifoto igaragaza abantu bari kunywa ibidasembuye, kumeza hariho indimu, ndetse afite ikinyobwa kidasembuye mukirahure na mugenzi we afitemo ikindi ikirahure kidafite ikindi kintu kirimo ,ameza ateguyeho ibihiko byo kumeza

Igipapuro cyifashishwa mu kwerekana ibicuruzwa by'ibinyobwa , ibiribwa ndetse n'ibindi bitangirwa aho hantu. Buri kiribwa hagiye hariho igiciro cyacyo.

Igipapuro cyifashishwa mu kumenyekanisha ibicuruzwa bicururizwa ahantu runaka, ndetse buri gicuruzwa kigiye kiriho igiciro cyacyo, haba hariho ibinyobwa ndetse n'ibiribwa.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, Umucuruzi yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umutuku, hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ryijimye.

icyapa kinini kiri mwibara ry'icyatsi kibisi hariho icupa ririmo inzoga yanditseho virunga, hariho kandi ikirahuri kirimo inzoga nacyo cyanditseho virunga.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara meza cyane arushaho gutuma hagira ubwiza, ari mu ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi. Hari kandi intebe ziri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiyobora ahakorerwa cyangwa ahacururizwa ikinyobwa cy'inzoga cyitwa virunga ,hariho umugore wizihiwe uri kukinywa, kimara inyota kandi nta bindi bibazo gitera.

Inzu icururizwamo ibisembuye, ibinyobwa bisembuye, bimwe biteretse ku meza y'umutuku ibindi biteretse ku ma etajeri. yirabura y'aumukara. Ahantu hatagaragara neza hijimyemo ukuntu gakeya.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bipanzwe neza ku murongo, hari icyuma cyifashishwa mu gukonjesha ibyo binyobwa biri ku meza ifite ibara ry'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa, biri mu icupa ry'icyatsi kibisi ndetse n'ibirahura by'umweru n'ameza ya shokora na etajeri itagaragara neza.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, umugabo ufite akamwenyu ku maso, ufite ibirahure bibiri birimo inzoga kandi hari amatara meza cyane ari mu bwoko bw'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye hari uduteba duto tureture tw'ibara ry'umukara ndetse n'amatara ari mu ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo yaka cyane akamurika kure hari abantu benshi baje gufata ikinyobwa.

Amacupa atatu y'inzoga ateretse ku murongo, ku meza inyuma gato haragaragara ubucuruzi, bw'imyenda y'abagabo ndetse n'abagore hari, hari kandi ibishushanyo byambitswe iyo myenda.

Inzu y'ubucuruzi ibicuruzwa n'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ku meza ya hateretse ikirahure kirimo ikinyobwa cy'inzoga, hari kandi n'amatara meza cyane ari muibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye birimo abantu bizihiwe bari kunywa ibinyibwa bisembuye itereri iriho irangi ry'umutuku ndetse n'abarimo bambaye impuzangano zirimo amabara y'umweru n'umukara ndetse n'abandi bambaye izirimo amabara ya giri ndeste n'icyatsi kibisi.

Abantu barimo abacuruzwa ibinyobwa bari kureba umupira kuri sikirini zabo bambayemo impuzankan ziriw ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi icuruzwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bikoranwe isuku ntagereranywa, hari kandi imeza iri mu ibara ry'umukara n'intebe bisa.

Icyapa cy'umutuku kiriho ikinyobwa gisembuye kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, kiriho abantu batagaragara neza, yego, kirimo ikirangantego cya sikolo.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye, biri muri etajeri ndetse urimo yambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru afite na terefoni mu ntoki yirabura, hariho n'ibuye ry'urugarika ku meza hariho ikaye y'umweru n'urupapuro.

Icyapa kirimo ibara ry'umweru ndetse n'umutuku gishushanyijeho, ikirahure ikirimo inzoga, hirya gato hari imyenda y'abagabo imanitse, bigaragara ko hacururizwa.

Inzu y'ubucuruzi ibicuruzwa n'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara meza cyane ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'intebe, imeza iri mu ibara ry'umutuku ibinyobwa birizewe.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibadembuye bitondetse neza ku murongo ni mu buro bibinrinda kwangirika hari kandi amabara meza cyane.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, imbere hari ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukwirakwiza amajwi ndetse n'amashusho.

Akazu gacururizwamo gatangirwamo serivise z'itumanaho kari mu ibara ry'umutuku ikirangantego cya eyeteri ndetse ahatangirwa serivise z'itumanaho.

Inzu irimo abantu undi uri kwiyakira n'ibikorwa arimo, hari amatara yaka umuhondo ndetse abantu bambaye impuzankano y'imyenda itagaragara neza mu gihe nta rumuri ruhagije ruhari hasa nahijimye mo gakeya.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye harimo intebe z'umukara ndetse na harimo televiziyo irimo ibara ry'icyatsi n'umuntu wambaye impuzangano z'ibara ry'icyatsi, uri kureba umupira na firigo y'umutuku harimo n'aho ziri ziteretse, harimo itara riri kwaka umutuku.

Inzu y'ubucuruzi irimo umuntu wambaye impuzangano z'umukara ufite icupa ry'icyatsi riri mwibara rya henikeni, ndetse harimo nundi wambaye impuzangano ziri mwibara ry'umweru n'umukara.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara meza cyane yaka ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, hari kandi mudasobwa.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bucururirwamo ibinyobwa, ameza y'umweru na shokola ateretseho icupa ry'icyatsi kibisi n'ikirahure kirimo ikinyobwa cy'umuhondo n'amatara y'umuhondo, muri televiziyo harimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa, ibinyobwa arimo firigo iri mu ibara ry'umutuku n'umweru, harimo televiziyo hakabamo ndetse n'akabati karimo ibinyobwa bitandukanye, nayo iri mu ibara rya shokora.

Inzu icuruzwamo ibinyobwa bisindisha harimo abambaye impuzangano zitandukanye mu ibara ry'umuhondo, mu ibara ry'umweru n'umukara, ndetse no mu ibara rya move no mu ibara ry'ubururu bwijimye, ariko ibinyobwa biri ku meza by'umutuku n'umweru.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye, hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse nikiri mu ibara ry' umutuku hariho imibare yo kwishyuriraho ukoresheje ikorana buhanga, ahandi hakaba hateretse ibinyobwa birimo amacupa ya shokora ndetse n'ikirahure cy'umweru basutsemo ibyo kunywa.

Ikirangantego kiri mu ibara ry'umutuku hateretse icupa rimwe ikinyobwa gisindisha ki mu ibara ry'icyatsi, hari icyapa cy'umuhondo kirimo ibara ry'umutuku ryanditseho ikirangantego cya sikoru abantu bariho bambambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara.

Ikirangantego kiri mu mabara y'umutuku n'umweru kiriho ikinyobwa gisindisha, kiri mu icupa ry'icyatsi kibisi ndetse n'ikirahuri cy'umweru, ikirangantego cya amusiteli.

Icyapa kinini kiranga ahacururizwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye ku ruhande hariho icupa ry'inzoga inyuma hari ibidukikije n'inzu ndende y'amagorofa.

Icyapa k'inzoga kiriho ikinyobwa gisembuye kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Aha hari imbaho zibajwe neza mubiti byiza bikomeye kandi bifite isuku imbere kandi hari igikoresho cyifashishwa mukubika neza no gukonjesha ibinyobwa.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye nsetse n'ibidasembuye imbere hari amatara ari mu ibara ry'umuhondo, icyatsi kibisi ku meza hateretse ikirahure kirimo inzoga, n'icupa ririmo inzoga.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari ururabo rwiza hari intebe n'imeza bibaje mu mbaho zikomeye ndetse n'amatara ari mu ibara ry'icyatsi n'umutuku.

Ifoto igaragaza inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikapu by'abadamu biri mw'ibara ry'umukara, n'umweru, ndetse n'ihe riteretse ku meza z'umutuku.

Ifoto igaragaza inzu icuruzwamo imyenda hakaba harimo umyenda imanitsemo, ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu ikote ririmo uturongo tw'umweru tumanutse n'udutambitse.

Inzu icururizwamo imyenda yo kwambara, abantu barimo kugura bambaye impuzankano z'amabara umukara n'undi wambaye impuzankano z'umukarana y'ubururu n'umukara n'umugurisha wambaye impuzankanda ziri mu mabara y'umweru n'ikote ryisigi.

Ifoto igaragaza ahacururizwa ibinyabiziga, harimo ikinyabiziga gishyashya gihagaze, kiri mu ibara ry’umweru, gifite ibirahure by’umukara ndetse n’amapine y’umukara. Mu birango byacyo, handitseho "Toyota."

Ifoto igaragaza ibinyabiziga biri aho bicururizwa hagaragara inzu iri isize amabara y'umweru n'umuhondo ari ibinyabiziga bifite amabara y'umweru, ndetse n'amatara mu ibara ry'umutuku.

Ifoto igaragaza imodoka ebyiri ziparitse ahabugenewe, ziri mu ibara ry'umutuku n'umukara.

Ifoto igaragaza ahari inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bidasembuye, ari ikiranganigo kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru kirimo izina rya Nyanza milk diary.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibyo kurya, ifite umuryango uri mu ibara ry'ubururu ndetse imbere ku meza hateretse indobo ziri mu ibara ry'umweru, imwe irimo amandazi akozwe mu ifarini n'indi irimo keke zikozwe mu ifarini, hejuru hari icyo bafatisha bagurisha ibicuruzwa.

Imeza iri mu mabara atandukanye asa neza y'umweru ndetse n'ubururu igikombe gifite isuku kirimo amata aryoshye arimo intungamubiri nyinshi.

Inzu irimo icururizwa icuruza ibinyobwa bidasembuye, harimo ikirangantego cy'ubururu n'umweru, izina ry'inyange. Harimo n'ibicuruzwa birimo amandazi na keke byose bikoze mu ifarini.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa harimo amata, ari mu kirahure cy'umweru ku meza ameza aba agiye asa na shokora hari umuntu ufite keke mu ntoki ikozwe mu ifarine n'amata n'isukari, na bike y'ubururu ku meza.

Ahacururizwa ibinyobwa bidasimbuye ari byo amata hari icyuma gitunganya amata kandi kikanayakonjesha ndetse hari n'indobo y'umweru, hejuru harihoho akandi kantu ka pulasitiki karimo udupapuro twabugenewe dukora isuku, n'intebe irimo imisego y'umweru.

Iyi foto igaragaza ibicuruzwa bicuruzwa harimo amazi ari mu icupa ry'umweru n'ubururu n'ibara ry'ikirangantego cya nili na envelope ya kaki.

Ikiribwa kiri gikozwe mu ifarini cyitwa capati gifashwe n'akaboko k'umuntu ahacururizwa ibiribwa hari ikirangantego cy'umweru.

Inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bidasembuye, birimo amata, harimo intebe y'ubururu, n'intebe y'umweru, na firigo y'umweru iriho icyapa cy'ubururu, ndetse n'akatajeri k'ubururu, umuntu urimo yambaye ipataro y'umukara ndetse n'impuzankano y'ishati iri mu ibara ry'umukara n'umweru.

Itereyi y'amagi ipanzeho neza ku buryo bugezweho kandi bwizewe ari ku murongo, hari umukozi wambaye impuzankano y'akazi, ndetse ayo matereyi arinda amagi kuba yameneka.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Ikinyobwa kiryoshye gikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye, kiri mu gakombe kari mu ibara ry'umukara, gikoreshejwe amata ya mukamira, hakaba harimo n'inyeri.

Isambusa ziri ku isahani yo mu ibara ry'ubururu, isambusa zikoze mu ifarini n'inyama ziteguye ku isani y'ubururu ziri ku meza asa uko.

Inzu icuruzwamo ibinyobwa bidasembuye harimo icyuma gitunganya amata kandi kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu ndetse n'umuntu wambaye impuzangano iri mu ibara ry'umukara n'umweru ikirangantego cya Inayange.

Inzu icururizwamo ikinyobwa kidasembuye irimo icyuma kibika amata, kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu. Hariho n'intebe z'umweru n'ijerekani y'umweru, n'indobo y'umweru hariho n'akantu bashyiramo amata, kubururu ndetse kariho ikirangantego k'inyange.

Ifoto igaragaza ibinyobwa bidasembuye harimo amazi ari mu icupa ry'umweru n'ubururu ndetse n'amata arimo imbuto, arimo nk'inkeri ndetse n'amata biri mu ducupa twa pinki ndetse n'akumweru n'utubido tw'amata tubiri tw'umweru.

Inzu y'ubucuruzi irimo indobo ebyiri z'umweru zirimo ibicuruzwa bikozwe n'amandazi akorwa mu ifarini n'amazi n'isukari yego n'amata hariho urugi rw'ubururu.

Inzu itangirwarwamo, itangirwamo sesivise z'ubucuruzi mu kirere icyapa kandi cyanditseho mukamira amata ni ubuzima mu ibara ry'ubururu n'umweru harimo na firigo, umuntu wambaye impuzankano y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibyo kunywa amata ndetse na keke, ari mu nkabido k'umweru n'ameza y'umweru n'umuntu wamabye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru n'abakiriya bambaye ibara ry'umuhondo ndetse n'uwambaye iry'umukara n'umweru.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bidasembuye harimo firigo irimo ikirangantego cy'umweru n'ubururu hakabamo intebe y'ububururu, icyuma gitunganya amata kiriho ikirangantego cy'umweru n'ubururu, uwambaye impuzangano z'umukara z'umukara n'ubururu ndetse n'amacupa ya nili arimo amazi n'amacupa y'umweru n'ubururu maremare cyanee..

Inzu y'ubucuruzi iri mu kirango cy'ibara ry'umweru n'ubururu harimo icyuma gitanga amata, harimo n'icyapa kiriho kode y'ubwishyu mu ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibikomoka ku matungo, amata, ariko ayo mata akaba yanyujijwe mu ruganda akabanza kongerwamo ibindi bintu by'intungamubiri bigiye bitandukanye.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa bidasembuye ndetse n'ibyo kurya. Birimo amata ari mu gikombe cy'umweru, ndetse hakaba na keke ziri ku isahani y'icyatsi n'umweru. Akaboko kambaye ishati y'umukara, irimo utubara tw'umuhondo, ndetse n'amaboko yirabura.

Inzu irimo ivyuma gikonjesha amata kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, aha ni mu nzu ifite ikibambasi cy'amatafari, ya shokora hariho n'amajaje y'umweru, n'intebe y'umweru.

Inzu irimo umukoresha uri gucuruza ibicuruzwa irimo n'umuguzi.

Ifoto igaragaza amandazi akozwe mu ifarine ndetse n'amata, n'amagi agiwe n'amazi ari ku isahani y'umweru.

Abakobwa babiri bari kwerekana ibinyobwa bikomoka ku itungo ry'inka, amata ariko yanyujijwe mu nganda, agatunganywa neza akongerwamo izindi ntungamubiri.

Inzu y'ubucuruzi icururuzwamo amata harimo ibara ry'umweru harimo ijage y'umweru hakabamo, agafuniko k'umutuku ndetse n'uwambaye impuzankano y'umweru, n'igicuba kirimo amata.

Inzu icururizwamo amazi ari mu ibara ndetse n'amazi ari mu ibara ifite urugi ruri mu ibara ry'ubururu n'umweru, ikirangantego kirimo, I Nyanza.

Inzu y'ubucuruzi irimo gucurizwamo amata umuntu uri kuyasuka indobo y'umutuku n'indobo y'umweru ijage y'umweru ndetse n'umuntu wambaye impuzangano z'umukara n'ubururu n'ibido y'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa gikomoka ku nka ari cyo amata, hari intebe ndetse n'imeza iri mu ibara ry'umweru, hari kandi icyuma cyifashishwa mu kubika no gutunganya ayo mata.

Inzu icuzwamo ibinyobwa ibiribwa byo kurya ndetse harimo ibinyobwa arimo amacupa yabugenewe yo gushyiramo ibyayi ndetse n'akabido akajekani karimo amata n'umuntu wambaye impuzangano birimo ikanzu irimo ibara ry'ubururu n'umweru ndetse n'umuhondo n'ahantu ari hakaba hari irange ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icuruzwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hari kandi ibiryo bitetse neza bikoraranywa isuku ndetse n'ubuhanga butangaje, ndetse hari igikombe cy'amata.

Igaragaza amandazi afite ibara ry'umuhondo. Akoze mu ifarini n'amata, n'isukari, ndetse n'amagi bashyiramo n'amazi.

Babiri bari kunywa ikinyobwa gikomoka ku nka cy' amata, bari kuyanywera mu birarahure byiza bikoranywe isuku, imbere yaho hari umucuruzi wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ifite isuku cyane rwose.

Ibiribwa bikoze mw'isambusa ndetse bikoze mw'ifarini aribyo twita isambusa bikoze mw'ifarini ndetse n'inyama bìri mw'ibara ry'umuhondo.

Inzu icururizwamo ikinyobwa, ibinyobwa bidasembuye ari byo amata, icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu ndetse haparitse ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, hari n'umutaka w'umuhondo, inzu ifite igisenge cy'umutuku.

Ifoto igaragaza ahantu hari ubujerekani buteretse buri mu ibara ry'umweru ndetse hari n'akandi kajerekani Kari mu ibara ry'umuhondo kariho umufuniko w'umutuku gateretse ahantu hari ibara ry'umweru handitseho inyuguti z'ubururu n'icyatsi n'umukara.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa ibidasembuye harimo; umuntu wambaye impuzangano y'umukara n'umweru ndetse n'undi wambaye impuzangano y'umukara n'undi wambaye impuzangano ya kaki, hari abantu bafite igikombe cy'umweru kirimo amata nayo y'umweru.

Iyi foto igaragaza ko ameza ari umweru n'isahani iri iruhande rwayo ari umweru n'igikombe kirimo amata n'inzu iriho tiripulegisi itari iyo mu ibara rya shokora.

Ikiganza cy'umuntu gifashe cake mu ntoki hariho agapapuro kabugenewe ko gufata ibyo kurya ndetse hariho n'intebe y'ubururu n'imisani n'umweru n'umutuku.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bitandukanye harimo amata ari mu kabido k'umweru ariho ikirantengo mu cy'umweru cy'mweru n'ubururu no mu kabogisi k'umweru n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi irimo abantu bicaye ku ntebe z'umweru ameza ariho igitambaro cy'umutuku, n'umweru inzu isize irange ry'umweru n'ubururu, ifitemo utuja udukombe turimo amata, y'umweru.

Umucuruzi ucuruza n'ibinyobwa bikonoka ku mata biba byanyuze mu nganda, hakongerwamo ibindi bintu bifite intungamubiri, bikungahaye cyane ku birinda indwara harimo imbuto arizo z'inkeri n'ibindi.

Ahacururizwa ibinyobwa bidasembuye ndetse harimo amata harimo n'icyuma gikonjesha amata kugirango atangirika hakabamo ubujerekani bw'umweru burimo amata n'ubukarito burimwo amata amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'amaji.

Inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bidasembiye, hari amandazi ari ku isahani ifite ibara ry'umweru n'umutuku n'amata ari mugikombe cy'umweru nayo ni umweru n'isahani iriho hirya imyumbati ndetse n'igikombe kindi kirimo icyayi umumama wicaye iruhande...

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata, harimo ibyuma bibiri bitunganya amata ndetse biri mu ibara ry'umweru.

Umugabo wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru, ari kubuganiza amata agiye gushyira mu gikoresho cyabugenewe gifite isuku kandi kiyarinda kwangirika.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa gikomoka ku itungo ry'inka amata, hari icyuma cya kizungu kifashishwa mu kubika no gutunganya ndetse no gukonjesha amata mu buryo bugezweho.

Ikinyobwa kiryoshye gikungahaye ku ntungamubiri bitewe n'uko gikorana ubuhanga buhanitse kinyuzwa mu nganda kikongerwamo imbuto nk'inkeri n'ibindi n'ibindi kiba gikozwe mu mata y'inka.

Indobo irimo ikiribwa gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari ndetse n'umusemburo gitekeshejwe amavuta, kiraryoshye kandi gikungahaye ku ntungamubiri.

Inzu y'ubucuruzi irimo icyuma gitanga amata, harimo umuntu umugurisha wambaye umwe umwenda w'umutuku n'umuguzi wambaye ibara rya move n'umuhondo n'ijagi y'ubururu.

Ibiribwa bifunze neza mu bikoresho byabigenewe by'isuku kandi byizewe, bikoreshejwe ifarini, amagi, amata, amazi, isukari ndetse n'ibindi.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bidasembuye, harimo icyuma gitunganya amata ndetse haparitse imodoka. y'umweru hariho ikirangantego cy'umweru n'ubururu ni ikirangantego cya mukamira imbere ye hari umuntu wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kiriho ibicuruzwa, ibicuruzwa bitandukanye cya Miriki Zone Inyange.

Akazu karimo amacupa y'amazi bavoma ari mw'ibara ry'ubururu ndetse n'akazu kari mw'ibara ry'ubururu imifuniko ifundikiye amacupa ni mw'ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata, harimo irange ry'umweru n'ubururu, abantu barimo bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru n'ubururu, harimo icyuma gitanga amata.

Ikiribwa kiryoshye cyane gicuruzwa ku isoko hose, gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari, umunyu ndetse gitekeshejwe amavuta, gikoranywe isuku n'ubuhanga.

Udupapuro tw'isuku dufite ibara ry'umweru dukoreshwa twifashishwa kunoza isuku ndetse dufatishwa ibyokurya bikozwe mu ifarini, amagi, mata ndetse n'ibindi. Tukihanaguzwa mu gihe urangije kurya.

Ikiribwa cyiryoshye cyane gikungahaye kuri vitamine zigiye zitandukanye kiri mubirinda indwara ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga gikoze mw'ifarini inyama ibitunguru gitekeshejwe amavuta.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa bidasindisha, harimo icyuma gikonjesha amata ndetse harimo n'abantu babiri bambaye impuzangano zirimo ibara ry'umukara n'umweru, hakaba n'undi wambaye ibara rya bure n'umukara.

Inzu irimo umuntu wambaye ishati irimo amabara y'umweru, n'umutuku ndetse n'umukara, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, afite ijaga mu ntoki y'umweru irimo arasukamo amata n'indobo y'umweru n'ameza ariho igitambaro cy'umuhondo n'ijaga y'umweru.

Ahatangirwa serivise z'amata icyapa cyanditse mu ibara ry'umukara wijimye ikirango cya Mukamira udukarito turi mu ibara ry'umweru na pinki, n'ubururu n'icyatsi.

Bikozwe mu ifarini, inyama, amagi, amata, amazi, umunyu, umusemburo, isukari ndetse kikaba gitekeshejwe n'amavuta. Kiri ku isahani.

Ikirangantego kiriho, ikiriho cyanditseho amata meza ateguwe neza ashobora kunyobwa yujuje ubuziranenge. Kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu ikirangantego k'inyange indasitirizi hariho umwana wambaye impuzangano z'umweru.

Inzu icururizwamo ikinyobwa kidasembuye amata, hari igikombe cy'umweru n'ufite amata mu ntoki mu gikombe cy'umweru yambaye impuzankano irimo ibara umutuku ndetse anitandiye n'ikindi kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umukara hariho ibara ry'umweru n'ubururu.

Inzu icururizwamo ikinyobwa kidasembuye, firigo iri mu ibara ry'umweru n'amajerekani acururizwamo amazi ari mu ibara ry'umweru ariho inyuguti z'ubururu n'akabido karimo amata k'umweru, n'ijage y'umweru n'iyicyatsi ndetse n'agacupa karimo amazi kari mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Inzu icuruzwamo ibicuruzwa byo kurya igaragaza indobo y'umweru iba irimo isukari ndetse n'indobo y'umweru irimo amandazi ari n'aka bogisi karimo amagi hari n'imineke yo mu ibara ry'umuhondo n'icupa ririmo urusenda n'agasahani k'umweru na puberi y'umutuku n'umuntu wambaye impuzangano iri mu ibara ry'umukara.

Icyuma gikora mu ikoranabuhanga rihanitse, kibikwamo amata kikayatunganya, kikayakonjesha mu buryo bwiza bwizewe butuma aramba kandi akagumana ubuziranenge.

Ahacururizwa, hagatunganyirizwa, ikinyobwa gikomoka ku nka cy'amata. Har' ibyuma bibiri ,by 'ikoranabuhanga byifashishwa mugutunganya , kubika neza ndetse no gukonjesha icyo kinyobwa.

Inzu irimo ibinyobwa birimo amabara atandukanye harimo ibinyobwa bisembuye, harimo amaji ndetse n'amazi ari mu icupa ry'umweru, n'ubururu ndetse n'ikirango cya niri ndetse hari n'icupa.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata n'amazi ari mu ibara mu icupa ry'umweru n'ubururu icyapa cya nile n'andi abiri ari mu icupa ry'ubururu n'umweru icyapa cya vurevu n'icyuma cyanditseho mukamira kiti mu ibara ry'umweru n'ubururu, firigo iri mu ibara ry'umutuku.

Inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibinyobwa, harimo firigo y'umweru ndetse n'icyuma gikonjesha amata. Hakabamo ibicuruzwa indobo zirimo amandazi ndetse n'amasambusa byose bikozwe mu ifarini n'umuntu wambaye impuzangano y'umukara n'ubururu n'intebe z'umweru ndetse n'ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Igikombe kirimo amata , ku meza, aho cyateguriwe, mu nzu y'aho babicururiza, mu gihe umu, umu, umuguzi aje kukureba ukamusukiramo amata y'umweru.

Mu nzu y'ubucuruzi itangirwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hari intebe iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ndetse hari igikoresho kifashishwa mu gukonjesha no kubika neza ibinyobwa.

Agapapuro kamwe k'isuku karimo ibara ry'umweru kaba korohereye kifashishwa mu gutanganya gahanagura umaze kurya cyangwa ukagakoresha uri gufata icyo kurya.

Ikiribwa gikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari, umusemburo n'ibindi byinshi cyane bigiye bidufasha mu buzima bwa buri munsi.

Inzu icurururizwamo ibinyobwa irimo umuntu wambaye impuzankano irimo ibara ry'ubururu, n'icyatsi n'undi wambayemo ipantaro y'umukara n'intebe z'ubururu n'ibinyobwa biri mumabara atandukanye, oranje yego.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bidasembuye irimo firigo irimo ibara ry'umweru ry'ubururu, hakabamo icyuma gitunganya amata kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, ikirangantego Mukamira, harimo abantu bambaye impuzankano zirimo umukara ndetse n'ubururu.

Igikoresho cyo munzu kiri ku meza y'umweru, ni agakope karimo uduti umuntu akoresha mu menyo mugihe amaze kurya inyama.

Inzu y'ubucuruzi icuruuruzwamo ikinyobwa gikomoka ku nka cy'amata uruganda ruyatunganya rwitwa inyange rukaba ruyatambutsa mu biciro byiza cyane.

Abana babiri bizihiwe bari kunywa ikinyobwa gikokomoka ku nka cy'amata, ndetse bafite ikiribwa mu ntoki gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari ndetse n'umusemburo.

Umugore ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga kigenderwa mu ntoki, wezihiwe imbere ye hari icupa rinini ndetse hari ikirango kiri mu ibara ry'umutuku, ku ruhande hari igikoresho gikoreshwa hifashishwa kubika neza amata.

Igikoresho gishyirwamo amata yamaze gutunganywa neza akomoka kwitungo ryinka ateretse imbere kumeza ndetse ategereje gucuruzwa.

Indobo y'umweru irimo ibicuruzwa bikozwe mwifarini arizo keke, ibikozwe mwifarini amata n'amagi ndetse n'amazi, ikaba iri mundobo y'umweru hari icyuma gitanga amata mwibara ry'umweru n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi iri mu mabara y'umweru n'ubururu iriho ikirangantego cya Nyanza miriki, imbere harimo akabati gasize umweru n'ubururu n'ikarito y'umutuku n'umuhondo na firigo y'umweru nini begura.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, ayo mata aba yanyujijwe mu nganda akongerwamo ibindi bintu bikungahaye ku ntungamubiri bidufasha mu buzima bwa buri munsi, hari imeza iri mu ibara ry'umweru.

Ifoto igaragaza agatageri k'ubururu gasize irangi ry'ubururu na firigo iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'irido iri mu ibara rya shokora n'umukara biri ahacururizwa harimo na puberi y'umukara.

Inzu icururizwamo ikinyobwa kidasembuye ariyo amata bari gusuka mu bikombe by'umweru uwambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru hari imbere hari idirishya risize irange ry'umweru biteretseho ari irange umweru hari akabido k'umuhondo, n'icupa ry'umweru, n'ikirangantego kiriho ibara rya oranje.

Inzu y'ubucuruzi ifite urugi rufite ibara ry'ubururu n'umweru harimo amabido ya jibu ari mu ibara ry'umweru n'ikirangantego cya jibu cy'bururu na firigo y'umweru irimo akantu k'icyatsi kibisi.

Iyi nzu irimo ibara ry'uburu n'ama etajeri arimo indobo z'umweru, n'inyange iri mu ibara ry'umweru n'ubururu ishushanyijeho inka na nili iri mu icupa ry'umweru n'ubururu, n'inyange iri mu icupa ry'umweru.

Ibiribwa birimo, biri ku isahani y'umweru. Hariho n'ibyifashishwa gufata ibi bikozwe mu ifarini, n'amata, n'amagi.

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa cy'ubururu n'inyuguti zanditseho umweru n'ikirango cya milk zone Inyange, ahacururizwa ibinyobwa bidasindisha. Ku muryango hariho ikarito y'umweru y'inyange ndetse n'iy'umuhondo n'izindi ebyiri z'ubururu n'umweru.

Ifoto igaragaza amafaranga ari mu cyuma gishinzwe kubara ayo mafaranga ngo kirebemo ko nta mafaranga y'amapiratano arimo cyangwa se amafaranga atari ay'ukuri arimo.

Inzu icururizwamo ibikoresho byo mu nzu, harimo intebe ziri mu mabara y'umukara hariho n'utuntu turi mu mabara y'umuhondo, ameza nayo ari mabara y'umweru n'amaguru yayo ari mu mabara y'umuhondo.

Ifoto igaragaza irimo igaragazamo ibikoresho byo mu nzu birimo intebe ziri mu ibara rya shokora n'imisego iri mu ibara rya shokora, ahantu ziri hakaba harimo hasashemo amakaro y'umweru ubona ko asa n'uwijimye uterutsa cyane.

Ifoto igaragaza inzu icururizwamo ibiribwa, birimo imineke iri mu ibara ry'umuhondo ariryo ryiiganjemo, ndetse n'ibindi bi mu ibara ry'icyatsi kibisi, harimo abantu bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'uwambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imyenda yo kwambara harimo abantu bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu ndetse na kake n'inkweto ziri mu ibara ry'umukara na orange, hakaba n'undi wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'umupira wa uri mu ibara rya kake

Ifoto itugaragariza umutaka ubu uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru mu nyuguti za ayateri hatangirwa serivisi z'itumanaho harimo abantu bambaye impuzankano z'akazi n'imyenda y'akazi ziri mu mabara y'umutuku n'umukara.

Inzu y'ubucuruzi itangirwamo serivisi z'itumanaho hari abantu babiri bambaye impuzangano ziri mu ibara rya shokora ndetse n'undi wambaye impuzangano iri mu ibara ry'umutuku n'undi wambaye impuzangano ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo ahari ibyapa biri mu ibara ry'umuhondo na sikirini iri mu ibara ry'umuhondo ririmo umuntu wambaye impuzangano iri mu ibara ry'ubururu.

Ifoto irimo ibara ry'umuhondo, harimo n'ikirangantego cya MTN na abantu bambaye impuzankan za MTN, hari indangururamajwi.

Amapaki ane imwe irimo amakeke indi irimo amandazi. Bigiye bigabanyije mu buryo bubiri atandatu na cumi na kabiri.

Ikirangantego kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru kigizwe n'ikiranagantego cya emutiyeni harimo imibare yo kwishyura ukoresheje itumanaho karindwi umunani icyenda zeru kabiri zeru.

Ikirango kigaragaza uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga kandi ku buntu, nimero y'umucuruzi ni mirongo icyenda na karindwi, umunani, umunani, mirongo itatu na gatanu, wakanda akanyenyeri ijana na mirongo irindwi urwego, ugakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Amagi menshi ari mu bikoresho byabugenewe, biri mu ibara ry'icyatsi. Ateretse ku meza. Iruhande rwaho hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku, uriho amabara y'umukara.

Umutaka uri mu ibara ry'umuhondo, ndetse hari n'icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo. Harimo udukarito turi mu ibara ry'umuhondo n'abantu babiri bambaye impuzankano; n'imyenda y'akazi mu ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'umweru. Ahatangirwa serivisi ndetse n'imipira irimo ikirangantego cya Emutiyeni.

Inzu icururizwamo servisi z'itumanaho iri mu mabara y'umuhondo n'umweru, hari umuntu wambaye impuzangano iri mu ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'ubururu butijimye, hari abantu bambaye impuzangano ziri mu mabara atandukanye umuhondo n'ubururu ndetse n'ahari ubu bogisi bw'umuhondo n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi irangwamo n'icyapa cy'umuhondo n'umweru mu kiranga ntego cya emutiyeni hariho ifoto y'abantu babiri bambaye impuzankano z'umuhondo.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha kubijyanye n'itumanaho m'umuyoboro mugari mu Rwanda, kari mu ibara ry'umuhondo hicayemo umukozi w'icyo kigo.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho, hari irange ry'umuhondo werurutse ndetse hari n'abambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo, hari umuntu wambaye ikanzu iri mu ibara rya oranje ndetse n'umuhondo.

Akazu gatangirwamo serivisi z'itumanaho kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hicayemo umuntu umwe ndetse n'undi ushaka serivise wambaye impuzangano z'umutuku ndetse n'umukara hasi.

Umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda emutiyene ari ku kazu karimo ibara ry'umuhondo ari kwakira umuturage, amufasha mu bijyanye n'ibikorwa bakora ndetse ari kumubarura mu ikayi.

Inzu y'ubucuruzi icuruza itumanaho yo mu ibara ry'umutuku n'umweru, ikirango ni eyateri mani(airtel money),irimo abantu bambaye impuzangano umutuku; umukara; umutuku; ubururu bwijimye; umweru n'umukara, n'umweru n'ubururu, impuzangano zitandukanye.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Inzu, icururizwamo, ibikoresho, ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, ku cyapa handitseho imyaka icumi, hamwe namwe, murakoze.

Ahatangirwa ubufasha kubirebana n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu kwishyura, kubitsa, kuguriza, kohereza amafaranga utavuye aho uri kandi ubwo buryo burizewe ndetse bufite ikoranabuhanga.

Uburyo bworoshye bwizewe kandi bwiza bwo kwishuyra amafaranga ukoresheje igikoresho k'ikoranabuhanga rigendanwa, hari umucuruzi uri kwishyurwa kandi ntakiguzi bisaba.

Utuzu tubiri twifashishwa mu gutanga ubufasha ku bijyanye n'ikoranabuhanga ryo kubitsa, kubikuza ndetse no kugurizwa amafaranga, turi mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo.

Ikinyabiziga gifashwe n' umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry' umukara, ahagararanye n'umukozi w' ikigo cy' itumanaho wambaye impuzangano y'akazi iri mu ibara ry' ubururu, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho kanda ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe ukurikize amabwiriza.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo kifashishwa mu gutanga ubufasha kubirebana n'itumanaho ukoresha wohereza, ubitsa, ubikura ndetse unaguza amafaranga.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho mu kazu kari mu ibara ry'umuhondo n'umweru ahari abantu bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, ubururu ndetse...

Umugabo wambaye umwenda w'akazi uri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'ingofero iri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu. Ahagararanye n'umugabo wambaye ikote ry'umukara, ari kumuha ubufasha kubijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga.

Ahari gutangirwa serivise ahari gutangirwa ubufasha bw'itumanaho ndetse no kwamamariza ibijyanye n'itumanaho ahariho abantu bambaye impuzankano z'umwenda w'akazi mu ibara ry'umuhond n'umweru mu kirangantego cya emutiyeni.

Akazu gatangirwamo serivisi z'itumanaho, kari mu ibara ry'umuhondo, mu kirangantego cya emutiyeni, harimo uwambaye impuzangano ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi, n'uwambaye impuzangano ziri mu ibara ry'umukara, ndetse n'icyatsi kibisi, n'ibara rya giri, harimo uwambaye impuzangano ziri mu ibara ry'ubururu n'umukara.

Inzu itangirwamo servise z'itumanaho irimo abantu bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo, ikirango cya emutiyene imbere hariho mudasobwa iri mu ibara ry'umukara n'undi wambaye ibara ry'umweru ndetse na kati.

Abagabo babiri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho inyuma hari umutaka, n'ikirangantego cyawo.

Umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse yambaye amadarubindi, imbere ye hari mudasobwa.

Akazu gato cyangwa ishami rya Emutiyeni rishinzwe gutanga ubufasha kubirebana no kwishyura, kubitsa, kuguriza ndetse no kubikuza utavuye aho uri; amafaranga yawe mu buryo bwizewe bufite umutekano.

Icyapa kerekana uburyo wakwishyura ukoresheje itumanaho ukabona uburyo bwo kwishyuramo ibicuruzwa byawe, ku buntu nta kiguzi nimero y'umucuruzi ni mirongo irindwi, mirongo itandatu na kane, karindwi.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho iriho icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru, ndetse hariho icyapa kiriho abantu babiri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo.

Abatwara ibinyabiziga bari kumwe n'abakiliya b'abishyura bakoresheje uburyo bw'itumanaho, umwe wambaye impuzangano iri mu ibara ry'umuhondo, n'agapfukamunwa k'umuhondo n'ubururu n'impuzankano n'ipataro y'ubururundi wampaye impuzangano ingofero y'ubururu na jire y'umutuku na patalo y'ikaki.

Akazu gato cyangwa ishami rishinzwe gutanga ubufasha, ku bijyanye n'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda, gahagazemo umugabo uri gufasha abantu ibirebana no gukoresha ikoranabuhanga.

Ahatangirwa ubufasha ku birebana n'uko wakoresha ikoranabuhanga ukaryifashisha wishyura cyangwa wishyurwa, hari kandi mudasobwa ziri ku murongo.

Akazu gatangirwamo ubufasha bw'itumanaho kari mu ibara ry'umuhondo, hariho abantu babiri bambaye impuzankano z'umwenda w'akazi ziri mu ibara ry'umuhondo, riri mu kirango cya emutiyene.

Igipapuro cyerekana uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga nta kiguzi, kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego ukurikize amategeko n'amabwiriza.

Akazu gacururizwamo gatangirwamo serivise z'itumanaho kari mu ibara ry'umutuku ikirangantego cya eyeteri ndetse ahatangirwa serivise z'itumanaho.

Akazu ka serivisi zitangirwaho serivisi za banki, kanditseho irembo mobi kashi, hari icyapa cya Equity bank ndetse n'icyapa cy'umweru n'umukara, akazu gasize irangi rya shokora.

Umukozi w'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo afite ibikoresho yifashisha mugutanga ubufasha ahagaragaranye n'umugabo uri ku gikoresho cye ari guhamagara.

Akazu gatangirwaho serivise z'itumanaho jkarimo abantu bambaye impuzangano ziri mu ibara ry'umutuku n'umukara ndetse n'undi wambaye impuzangano ziri mu ibara ry'umukara n'undi wambaye impuzangano iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, akazu kari mu ibara ry'umuhondo hariho ikirango cya emutiyene.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo karimo ikirangantego cya MTN, harimo abantu bambaye impuzangano zitandukanye ubururu n'ibindi.

Akazu gatangirwamo serivise z'itumanaho kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umuntu wambaye impuzankano y'umweru hejuru ku ikora ari umukara gatangirwamo serivise za Mtn.

Akazu gato gatangirwamo ubufasha kubijyanye no kwishyura kubitsa, kubikuza, kugurizwa ukoresheje igikoresho kigendanwa cy'ikoranabuhanga utavuye aho uri kari m'ibara ry'umuhondo.

Ikirango kiriho imobare yo kwishyuriraho kirimo ibara ry'umweru ikirangantego cya emutiyeni kiriho imibare iri mu ibara ry'umweru yo kwishyuriraho bakoresheje itumanaho.

Akazu gato k'ubucuruzi cyangwa ishami rito ry'ikigo gishinzwe itumanaho umuyoboro mu gari mu Rwanda kari mu ibara ry'umuhondo hahagaze umukobwa waje gusaba ubufasha wambaye umwenda uri mu ibara ry'umutuku.

Akazu gatangirwamo service z'itumanaho kari mu ibara ry'umuhondo mu kirangangu cya MTN handitseho inyuguti mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara umuntu urimo yambaye impuzangano ziri mu ibara ry'umukara ndetse na t-shat irimo ibara ry'umweru n'umukara.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho aho hari abantu bambaye impuzankano z'imyenda y'akazi ziri mu ibara ry'umweru n'umuhondo, barimo baratanda serivise ku bantu bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'ishati irimo amabara asa pinki.

Akazu gatangirwamo ubufasha bw'itumanaho kari mu ibara ry'umuhondo, yego. Harimo umugurisha wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umutu, ndetse n'uwambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara; ndeste n'uwambaye impuzanko ziri mu ibara ry'umutuku n'umweru.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo n'umweru hari abantu bambaye impuzankano bahagaze kuri ako hatangirwa serivisi zitangirwa serivisi z'itumanaho ndetse umwe yambaye impuzankano irimw'ibara ry'icyatsi kibisi n'ipataro ya kacyi undi yambaye impuzankano irimw'ibara ry'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Akazu k'umutuku gatangirwamo serivisi z'itumanaho kari mu ibara ry'umutuku ikirangantego cya eyateli, abariho bambaye impuzangano umwe yambaye impuzangano iri mu ibara ry'umweru ndetse na shokora hariho n'ibara ry'umutuku, undi wambaye impuzangano iri mu ibara rya kaki n'uwambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Akazu gato k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gutanga ubufasha ku bujyanama n'ubugenzuzi kubijyanye n'itumanaho n'ikoranabuhanga mu Rwanda. Kari mu ibara ry'umuhondo.

Kiri mu ibara ry’umuhondo n’umweru, hari imibare ukoresha wishyura ibicuruzwa cyangwa utanga ubwishyu kuri serivisi. Iri mu ibara ry’umuhondo n’umweru mu kirangantego cya Emutiyeni.

Umugabo wambaye amadarubindi, uhagatze imbere y'ikinyabiziga gitwara abantu ndetse n'ibintu. Inyuma ye hari imodoka iri mu ibara ry'umukara, ndetse na we yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, hari imodoka inyuma y'abantu babiri iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umugore wambaye ikirango gishinzwe gutanga ubufasha ku bijyanye n'ikoranabuhanga.

Ahari umutaka uri mw'ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu busa nk'ubwijimye, ahatangirwa serivise z'itumanaho. Hari umuntu wambaye umuhuzangano iri umweru ndetse na kaki.

Telefone iri mu ibara ry'umutuku yandotseho ikirangantego cya ayi yu umuntu uri kuyikoresha arimo ararishyura akoresheje itumanaho bavuga ngo ashyiramo umubare w'amafaranga.

Icyicaro gikuru cy'ikigo gishinzwe itumanaho n'umuyoboro mugari mu Rwanda, hari mubara ry'umutuku kandi hariho igishushanyo cy'umukobwa ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa.

Ahacururizwa ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye hari n'uwambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu ndetse n'umukara, hari n'uri kugura wambaye ikanzu iri impuzankano iri mu ibara ry'umukara n'umweru n'ikote ry'umweru.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo, kanditseho mu nyuguti z'umukara. Hatangirwamo serivisi z'itumanaho. Harimo umuntu wambaye impuzankano iri mu ibara ryijimye ndetse n'undi ufite igikapu kirabura ku mugongo, kirimo ibara ryera.

Umutaka uri mu ibara ry'umuhondo ahari umuntu uri gutanga ubufasha bw'itumanaho wambaye imyenda impuzankano z'akazi zirimo umuhondo.

Inzu itangirwamo ubufasha bugiye butandukanye, bukwereka uburyo wakwishyura, ukagura, ukabitsa, ukanagurizwa amafaranga utavuye aho uri.

Utuzu tubiri dutangirwamo serivise z'itumanaho turi mu kirangantego, kamwe k'umutuku kariho ikirangantego cya eyateri akandi k'umuhondo kariho ikirangantego cya emutiyeni, harimo abantu babiri.

Akazu gato k'ikoranabuhanga kari mu ibara mu ibara ry'umuhondo kifashishwa mugutanga ubufasha bugiye butandukanye. Kanda akanyenyeri, ijana na mirongo itandatu n'agatanu akanyenyeri gatanu urwego ukurikize amategeko n'amabwiriza.

Ifoto igaragaza abantu babiri, umwe yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'umukara utijimye, undi yambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara, noneho wandikishijeho oranje.

Ahacururizwa serivise z'ibribwa ariko hari n'umutaka n'umuntu utanga serivise z'itumanaho wambaye imuzangano ziri mu ibara ry'umuhondo n'umutaka w'umuhondo. Mu kirangantego cya emutiyene, hari n'intebe z'icyatsi kibisi, ndetse n'amakarita ari mu ibara ry'umuhondo, n'imodoka iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abakozi bambaye impuzangano z'akazi mw'ibara ry'ubururu n'umuhondo, ndetse hari umuntu wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'ubururu, ndeste n'ikinyabiziga cy'umukara, n'uwambaye impuzangano ziri mw'ibara ry'umweru. Hari ikimenyetso cyerekana kwishyura ukoresheje imibare, karindwi, zeru, zeru, gatatu, icyenda, gatatu.

Akazu gatangirwamo ubufasha bw'itumanaho ubitsa amafaranga cyangwa se uyabikura, hari hahagaze umuntu wambaye impuzangano ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi, n'umukara ndetse n'umweru, ufite n'iisakoshi mu ntoki ya shokora, hirya hari icyapa kiriho ubururu, umweru ibindi ndetse n'utundi akabati k'umutuku.

Akazu ka emutiyeni gatangirwaho serivise z'itumanaho harimo abantu, abambaye impuzangano z'umutuku ,abambaye impuzankano z'umweru, n'undi urimo wambaye impuzankano z'umukara.

Umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda yambaye impuzankano iri mw'ibara ry'umuhondo ari gufasha abamugana ku bijyanye na serivisi batanga.

Akazu k'ubucuruzi kari mu ibara ry'umuhondo mu cyapa mu kirangantego cya emutiyeni, harimo umugurisha wa serivisi z'itumanaho, ndetse n'umuguzi wambaye impuzankano y'umutuku n'umukara.

Umuhungu wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ahagaze munsi y'umutaka wanditseho kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego ukurikize amategeko n'amabwiriza.

Utuzu tubiri turi mumabara y'umuhondo dutangirwamo serivisi z'ikoranabuhanga turimo abambaye impuzankano ziri mumabara y'umweru n'umuhondo ndetse hari n'uwambaye impuzankano iri mumabara y'umukara n'ishati ya karokaro

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho iri mu mabara y'umweru n'umutuku, ndetse harimo n'udukarito turimo telefone harimo n'ifoto irimo abantu babiri umwe yambaye impuzangano y'umukara, n'umusatsi uteye poroduwi y'umweru, n'undi ufite ibisuko by'umukara ku kutwe we.

Ifoto igaragaza abantu bambaye impuzangano z'akazi ziri mu ibara ry'umuhondo, ndetse hari umutaka w'umuhondo, hari imodoka zigiye zifite amabara atandukanye.

Umukozi wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ari imbere ya mudasobwa yifashisha mu gutanga ubufasha kubirebana n'umuyoboro mugari w'itumanaho wa MTN.

Isoko ricururizwamo ibiribwa harimo icyapa byanditseho imibare yishyurirwaho ibikoresheje b itumanaho harimo ibirwa bitandukanye karote, intoryi birimo abantu bambaye impuzangano zitandukanye.

Ahatangirwa ubufasha kubirebana n'uburyo bw'ikoreshwa ry'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi wishyura, wohereza, wakira amafaranga utavuye aho uri kandi birizewe.

Icyapa cyifashishwa yishyurwa hakoreshejwe itumanaho rigendanwa ry'ikoranabuhanga, kiri mu ibara ry'umuhondo ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego bakurikiza amategeko n'amabwiriza.

Umukozi uri mu ibarura ari kwandika umukobwamugana mu gitabo kijyanye n abahawe ubufasha ku birebana n ikoranabuhanga rikoreshwa hishyura cyangwa hagurwa bimwe na bimwe.

Umusaza wegukanye igare, aguze amayinite yo guhamagara. Kanda akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego, n'akanyenyeri magana atatu na mirongo itanu urwego, ukurikize amategeko n'amabwiriza.

Inzu itangirwamo ubufasha bw'itumanaho harimo ibyapa biri mw'ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara hari abantu bambaye impuzangano nabambaye umwenda w'umukara nabambaye umwenda w'umukara na kacye n'ikote ry'ubururu n'umukara mwibara rya MTN.

Mu maguriro y'amata bagiye bafitemo aho bakusanyiriza aya mata cyangwa bakagiramo n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye by'imitobe. Hakunze kuzamo n'abaturage b'ingeri zitandukanye baje kugura ibyo bicuruzwa cyangwa bakaba batumwe kandi bakabibonera ku gihe.

Umugabo wicaye, afite agakapu kari mu ibara ry'umukara, afite mu ntoki igikoresho cy'itumanaho cyifashishwa mu guhamagara, mu kwandika ubutumwa bugufi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Icyapa cyerekana uburyo wakwishyura ku buntu. Nimero y'umucuruzi ni zeru, zeru, zeru, zeru, gatatu, gatandatu. Ku ruhande hari abakozi bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho MTN, umuyoboro mugari ishami rishinzwe gukwirakwiza uburyo bw'ikoranabuhanga.

Akazu k'ubucuruzi gacururizwamo itumanaho karimo ibara ry'umuhondo, gafite ikirangantego cya emutiyene harimo umuntu wambaye impuzangano y'umweru na shokora.

Akazu k'ubucuruzi kari mu ibara ry'umuhondo n'umweru karimo abantu batanga serivise z'itumanaho, harimo uwambaye impuzankano y'ibara ry'umukara n'umweru n'umutuku ndetse harmo n'akabogisi k'ubururu.

Iyi nzu itangirwamo serivise z'itumanaho iri mu kiranganytego cy'umuhondo irimo inyuguti z'umukara ndetse iruhande hari indangururamajwi n'umuntu wambaye impuzankano zirimo ibara ry'umukara hari n'undi wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo n'umweru

Abakozi b'ikigo gishinzwe umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda MTN, bambaye impuzankano iriwi ibara ry'umuhondo bari gutanga ubusobanuro.

Ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo harimo inyuguti z'umukara ikirango cya emutiyene okoresha ibishyura.

Akazu gato karimo ibara ry'umuhondo gatangirwamo ubufasha ku bijyanye n'itumanaho ryo kwishyura, kubitsa, kubikuza no kugurizwa amafaranga bikoreshejwe ikoranabuhanga.

Ahatangirwa ubufasha, umuyoboro mugari w'itumanaho mu rwanda hari umugabo wambaye impuzankano iri m'ibara ry'umuhondo, imbere ye afite mudasobwa yifashisha mu gutanga ubwo bufasha.

Inzu icururizwamo imyenda yo kwambara iri mu mabara atandukanye, hakabaho n'icyapa, hakabaho n'ikirango kiriho imibare yo kwishyuraho ukoresheje itumanaho n'ibara ry'umuhondo.

Akazu gato gatangirwamo ubufasha ku birebana no kohereza, kwakira, kubitsa, kugurizwa amafaranga ukoresheje icyuma k'itumanaho kigendanwa mu ntoki kari mu ibara ry'umuhondo.

Umucuruzi uri kwishyura akoresheje ikoranabuhanga, acuruza ikiribwa cy'inyanya, gikungahaye mu kurinda indwara, gutera umubiri imbaraga, ndetse no mu buryo butandukanye.

Intoki zifashe icyuma cy'ikoranabuhanga, cy'itumanaho kigendanwa; bari kwerekana uburyo wakoresha wishyura utavuye aho uri. Ishyura magana atanu ukoresheje inite n'ibindi n'ibindi.

Akazu gato k'itumanaho kari mu ibara ry'umuhondo, ndetse ni ishami rishinzwe gutanga ubufasha ku birebana n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu kwishyura no kwakira amafaranga.

Ahantu hari ahatangirwa ubufasha hari icyapa cy'umuhondo cyanditse mu ibara rya MTN, hari n'abantu bambaye impuzankano zirimo ibara ry'umuhondo ndetse hari n'undi wambaye impuzankano.

Akazu k'ubucuruzi, kari mu ibara ry'umuhondo, karimo abantu babiri, harimo icyapa cy'umuhondo n'icy'umutuku. Umuntu urimo, harimo uwambaye umupira w'umutuku.

Umumotari uri ku ipikipiki wambaye akajiri kari mu icunga rihishije, wambaye kasike t'umutuku wambaye ipantaro y'umukara, ipikipiki iriho agasanduka,

Umugabo wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ari kumwe n'umuguzi umaze kugura akishyura akoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa mu ntoki.

Akazu gacuruza, k'ubucuruzi gacuruza serivise z'itumanaho mu ibara ry'umuhondo handitseho ikirango cya emutiyene mu nyuguti z'umukara ziriho.

Igipapuro cyerekana uburyo wakwishyura nta kiguzi, ukoresheje ikoranabuhanga rigezweho kandi ryizewe, ukanze ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu, urwego.

Ikirango kerekana uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ryawe utavuye aho uri. Kirizewe, kandi kinyuze mu mucyo. Nimero y'umucuruzi ni zeru, zeru, zeru, zeru, umunani.

Umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho umuyoboro mugari mu Rwanda MTN, inyuma ye hari igishashi kinini kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse nawe yambaye impuzankano y'akaziiri mu ibara ry'umweru.

Akazu gato kifashishwa mu gutanga ubufasha ku bijyanye n'ikoranabuhanga, aho ukoresha ikoranabuhanga ukishyura cyangwa ukabica, ukabikuza, ukanagurizwa amafaranga.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho, hari harimo umuntu wambaye impuzankano n'imyenda y'akazi iri mu ibara ry'umweru n'umuhondo, ruhande hari undi wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara, iruhande hari igikapu kiri mu ibara ry'umukara, n'agatente kari mu ibara ry'icyatsi, ry'icyatsi kijimye ndetse n'umukara.

Ikirango kiriho kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru cyanditse amazina ndetse kiriho n'imibare yo kwishyuriraho ukoresheje uburyo bw'itumanaho uguze ibicuruzwa ibinyobwa se n'ibiribwa, byo mu ikirango cya emutiyene.

Urubuga rushinzwe guhuza umuguzi n'umucuruzi bakaganira ku bijyanye n'igura n'igurishwa ry'ibicuruzwa, haba hariho ibiciro ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Ibiryo bikungahaye kuntungamubiri harimo amagi ,amata, umuceri ndetse n' ibindi bidufasha kurind' indwara kubiter' imbaraga n'bindi n'ibindi ,harimo n'inyanya biraryoshye kandi birasa neza.

Ikinyabiziga gitwawe n'umuntu wambaye impuzangano ishati y'icyatsi kibisi, n'ipantaro y'ubururu, n'agasanduku k'icyatsi kibisi, ku kinyabiziga gifite ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'amapine y'umukara. Ari gukuramo ibyo bamutumye abigejeje aho abijyana babigura bakoresheje ikoranabuhanga

Uducupa twinshi cyane duteretse ahagenewe guterekwa, utwo ducupa tukaba turimo ibiryohera cyane bikoze mu mata ndetse n'inkeri. Bikaba bikorerwa mu ruganda rukorera I Masaka.

Ibinyabiziga bitatu bifite ibyo gutwaramo ibiribwa bitetse biri mu ibara ry'umutuku aho umuguzi yishyura akoresheje ikoranabuhanga akaba yagezwaho ibyo kurya.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, rwifashishwa mu guhuza umuguzi n'umugurisha, bakaganira ku bijyanye n'ibiciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bakabigukurira hanze y'u Rwanda.

Umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku bicuruzwa bigiye bitandukanye haba hariho igiciro cya buri gicuruzwa ndetse bikaba byakugeraho aho waba uri hose. Haba hariho ibicuruzwa byifashishwa mu gikoni.

Urubuga rucururizwaho ibicuruzwa birimo ibikapu, birimo ibitara mekapu y'inkweto birimo n'imisatsi, birimo na feshi birimo baga n'imyenda na ekuteri.

Ikinyabiziga gitwaye ibibwa byahahiwe onulayini ndetse kikaba kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku isanduku iriho iri mu ibara ry'icyatsi handitseho imibare y'umweru yo guhamagara mu kirango cya kasha rwa.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bifashisha bagahuriraho, bakaganira kubiciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibikapu, imyenda yo kwifubika, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi bitandukanye.

Urubuga baguriraho inkweto zo kwambara ndetse n'imyenda itandukanye biri mu ibara ry'umukara ukoresheje ukoresheje urubuga rwo kugurarira onurayini.

Umukobwa wambaye impuzankano y'akazi iri mu bara ry'icyatsi kibisi, handitseho Vuba vuba, arimo arashyiramo ibyo kurya bamutumye, umuguzi yatumijeho akoresheje ikoranabuhanga.

Urubuga rw'ubucuruzi ruhurirwaho n'umuguzi n'umucuruzi, bagahurira bakaganira ku bicuruzwa bigiye bitandukanye bakemeza igiciro hanyuma umuguzi akishyura akoresheje ikoranabuhanga, umucuruzi nawe akabimugezaho mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imboga, imbuto n'ibindi n'ibindi. Kandi hakishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse ibicuruzwa bikakugeraho ku buntu aho waba uri hose.

Urubuga ruhurirwaho n'umuguzi n'umucuruzi, bakaganira ku giciro cy'igicuruzwa akagabanyirizwa bitewe n'ibyo aguze. Kandi ukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura.

Umukozi w'ikigo gishinzwe gutwara ibintu bigiye bitandukanye kitwa safi agejeje ibyo bamutumye ku mukobwa wambaye agapira k'umweru.

Abagabo babiri bafite igicuruzwa kizanywe ndetse kiri ku kinyabiziga kiri mu ibara ry'umutuku bimugejejweho mu buryo bwizewe

Umuntu utwara ikinyabiziga gitwara ibyahahiwe ku mbuga nkoranyambaga yambaye impuzangano zirimo ijire y'ubururu n'umweru ndetse n'ingofero y'umuhondo, n'ipantaro y'ubururu, ahagaze ku gasandugu kari ku kinyabiziga kari mu ibara ry'umweru n'umuhondo, ikirangantego cya kasha.

Abasore babiri bahagaze ku kinyabiziga cyanditseho vuba vuba, gitwara ibyo kurya. Bambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bafite akamwenyu ku maso

Ikinyabiziga kifashishwa mu gukwirakwiza ibiribwa bihiye kiri mu mabara y'ubururu ndetse cyandikishijweho amagambo y'ibara ry'umuhondo.

Ifoto igaragaza aho ubuhinzi abahinzi b'inyanya iriho n'imineke ikabaho n'ibirayi ikabaho n'ibiciro bigura imineke igura igiciro cya maganabiri ndetse ibirayi bikagura igiciro k'igihumbi maganabiri miongo itanu.

Ikinyabiziga gitwaye ibyo ibiryo bahahiye onorayini cyanditse kiriri mu ibara gihetse igikapu kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyanditse mu ibara ry'ikirango cya vuba vuba ikinyabiziga cy'umutuku n'umweru ndetse umuntu ukiriho yambaye impuzangano ziririmo ibara ry'icyatsi kibisi n'umukara n'inkweto z'umweru hari icyapa cy'umukara n'umweru.

Imbere yacu turahabona ishusho y'akabari keza cyane karimo umuntu tutabashije kumenya uwo ari we. Harimo amayoga ndetse n'intebe zo kwicaraho, bigaragara ko aho hantu ari ahagenewe gucuruza ayo mayoga.

Umukobwa ufite akamwenyu ku maso, wambaye ibikururamajwi biri mu ibara ry'umweru, afite igikoresho cy'itumanaho kigendanwa mu ntoki, imbere ye hari agakapu kari mu ibara ry'umukara.

Urubuga muguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira, ku bijyanye n'ibicuruzwa hakaba hariho ibiciro bumvikanyeho, hanyuma umucuruzi akoherereza umuguzi, umuguzi yishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Imodoka y'umutuku, iriho ikirangantego kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, cyanditseho onurayini, kiriho na nimera za telefone zanditse mu ibara ry'ubururu.

Urubuga rwifashishwa muguhuza umuguzi n'umucuruzi bakaba baganira kugiciro hanyuma umuguzi akishyura akoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga muburyo bwizewe ibicuruzwa bikamugeraho.

Isoko ry'ibiribwa higanjemo ikirebwa cy'igitoki hari abagore bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara, hari kandi n'ibikoresho byabugenewe byo gushyiramo ibyo bitoki.

Ikiribwa gikozwe mu ifarini, inyama, amagi, amata, amazi, isukari ndetse kigatekeshwa amavuta ugitumiza wifashishije itumanaho rya telefone.

Urubuga rugurishirizwaho ibyo kurya biri mu ibara ry'umubare umuntu wambaye impuzangano z'akazi harimo ifiriti iri mu kantu k'umutuku n'umweru n'umukati urimo inyama n'yanya ndetse n'akaguru k'inkoko.

Ikinyabiziga kiriho kirimwibara ry'umukara n'umweru, gitwawe n'umuntu wambaye impuzankano y'imyenda y'icyatsi kibisi ningofero ndetse nikabutura y'umukara n'inkweto z'umweru n'umukara hariho aka bogisi K'umukara n'icyatsi kibisi ajyanye, byaguzwe koresheje uburyo bw'itumanaho kubera ko ikoranabuhanga ikirangantego cya sa

Ibinyabiziga bine bitwawe n'abagabo ndetse bihetse, ibikarito binini biririmo ibara ry'umutuku byifashishwa mu gukwirakwiza no kugemura ibiribwa bitandukanye mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Urubuga umucuruzi n'umuguzi bahuriraho bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ndetse kikamugeraho mu buryo bworoshye, ku buntu, aho yaba ari, mu, mu gihugu.

Urubaga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imipira, inkweto, mudasobwa, ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye.

Urubuga nkoranyambaga rukorerwa kugurirwaho ibyambarwa ndetse n'imiti, imyenda, inkweto i n'imyenda y'inkweto ndetse n'imiti ivura kwa muganga.

Umuntu uri guhaha akoresheje uburyo bw'itumanaho muri terefoni ye afitemo ikiranganego cya Vuba Vuba ari guhaha akoresheje uburyo bw'itumana bw'ikoranabuhanga kugira ngo bamuzanire ibyo yahashye online, afite terefoni irimo ibara ry'icyatsi cyibisi yambaye ishati y'ubururu.

Urubuga rugurishirizwaho ibicuruzwa. Harimo inkweto, imyenda n'ibyo kurya birimo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imbuto zigizwe na karoti, amashu, inyanya, ibitunguru n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Urubuga ruhuza umuguzi n'umugurisha, bakaganira ku biciro bigiye bitandukanye by'ibicuruzwa, bikaba byamugeraho atavuye aho ari, kandi mu buryo bwizewe, umutekano.

Urubuga rwifashishwa mu guhaha, hariho ibicuruzwa bigiye bitandukanye ari byo imboga, imbuto, mboga nka karoti, imbuto nk'inana ndetse n'amagi.

Igorofa rirerire riri mu ibara ry'umuhondo ryanditseho iposita. Imbere yaho hari ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu zifashishwa mu kugeza ubufasha kubabukeneye.

Urubuga rwifashishwa mu guhuza umuguzi n'umucuruzi, bakaganira ku bijyanye n'ibiciro byabyo bicuruza, hakemezwa n'uburyo bimugeraho ku buntu.

Ifoto igaragaza abantu babiri harimo ikinyabiziga gifite purake y'umuhondo iri mu nyuguti z'umutuku ndetse, bityo ari umweru n'umutuku, umuntu wambaye ipataro ya kake n'ishati y'umutuku, n'agapfukamunwa k'umukara n'uwambaye impuzankano, iri mu ibara ry'umweru ndetse na oranje n'ingofero inja gusa umukara.

Urubuga ruhuza umucuruzi n'umuguzi bakaganirira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amavuta akiza indwara z'uruhu kandi akanarukesha.

Urubuga umuguzi n'umucuruzi bahuriraho bakaganira ku bijyanye n'ibiciro by'ibicuruzwa, akaba yagabanyirizwa amafaranga make ndetse bikamugeraho aho yaba ari hose mu Rwanda.

Utwaye icyuma cyifashishwa mu gutwara aricyo kinyabiziga yambaye impupuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umutuku atwaye ibyo kurya.

Urubuga rw'ubucuruzi rwifashishwa mukugura no kugurisha aho bahuza umuguzi n'umucuruzi bakaganira kugiciro kigicuruzwa bikamugeraho kubuntu ahari mumugi wa kigali.

Inzu z'ubucuruzi zubatswe mu bwoko bw'amagorofa, hari indabo z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bacururiza ibiribwa, imyenda n'ibindi n'ibindi.

Urubuga rugurirwaho imyenda yo kwambara ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga harimo inkweto, imyenda y'abana ndetse telefone n'ibikapu by'abakobwa ndetse n'amatara.

Umuntu utwaye ikinyabiziga, ahetse igikapu kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse yambaye impuzankano z'ibara ry'icyatsi kibisi n'ubururu n'ingofero ijya gusa nk'icyatsi cyerurutse, atwaye ibyahahiwe onurayini mu kirangantego cya vuba vuba abijyanye aho ababiguze baherereye.

Abatwaye ibinyabiziga bambaye imyenda impuzankano zitukura ndetse n'ingofero zitukura, bari kubinyabiziga bifite amabara y'umutuku, n'umukara ndetse n'umweru.

Umugabo uhagaze ku gikoresho gitwara, cy'ikinyabiziga gishyikiriza abantu ibyo kurya aho baba bari hose muri uyu mujyi wa kigali, cyanditseho vuba vuba.

Urubuga ruhurirwaho n'abantu benshi cyane, hakaba hariho imikino igiye itandukanye, iguhesha amahirwe yo kwegukana ibintu bimwe na bimwe, ndetse hari ibiciro n'ibicuruzwa ukagabanyirizwa mirongo irindwi ku ijana.

Umuntu utwaye ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'umukara, yambaye impuzangano ziri mu ibara rya oranje n'umuhondo n'umukara ahetse igikapu nacyo kiri mu ibara ry'umuhondo na oranje ajyanye ibyaguzwe bakoresheje itumanaho ariryo koranabuhanga.

Ibara ry'umutu, ikirango kirimo mudasobwa harimo n'imyenda; aho bagura ku mbuga nkoranyambaga bakoresheje iyagura.

Ibinyabiziga bitatu byifashishwa mu gukwirakwiza ibiribwa, ushobora guhamagara zeru karindwi umunani, irindwi gatandatu, zeru, zeru, magana inani na mirongo irindwi, ukabatuma icyo wifuza.

Ibinyabiziha bibiri bitwaye ibyo kurya aho bipfunyitse ari mu bwoko bwiza cyane burinda kwangirika bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umutuku. Kuruhande hari ibidukikije by'ibiti.

Ikinyabiziga kiriho agasanduku ko gutwaramo ibyahahiwe ku mbuga nkoranyambaga, bikagezwa aho uwabihashye abijyanye. Ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, mu gihe akabogisi kari mu ibara ry'icyatsi kibisi, mu kirango cya vuba.

Ikinyabiziga gitwara ibyahariwe ku mbuga nkoranyambaga bikagezwa aho umukiya wabihashye ari kukinyabiziga hariho akabobisi agasanduku k'umutuku kanditseho yego kariho imibare yo guhamagara.

Ibikoresho bitwara by'ibinyabiziga bikwirakwiza ibyo kunywa n'ibyokurya biri mu ibara ry'umutuku byinshi bitondetse kumurongo.

Ikiribwa gifunze neza gikorwa n'uruganda Urwibutso gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari ndetse n'umunyu.

Ikinyabiziga gitwara ibyaguriwe ku mbuga nkoranyambaga gitwawe n'umuntu wambaye impuzangano ingofero y'icyatsi n'ishati y'icyatsi agasanduku k'icyatsi ari gukuramo ibyo azanye bamutumye kugira ngo abitange ku kinyabiziga cy'umweru n'umutuku.

Inzu ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, harimo abakozi bambaye imipira y'imihondo y'icyo kigo bari gusobanurira undi mugabo w'umwera ibiri ku gapapuro bari kureberaho.

Uruganda rwa Muakamira ruzwiho gutunganya amata rufite n'ibindi binyobwa n'ibiribwa bikorwa mu mata, yaba ikivuguto cyangwa ibizwi nka yawurute bikunzwe n'abana batoya ubisanga mu maduka menshi, amaresitora cyangwa amalimantasiyo aho uba usanga bicuruzwa ku biciro bitandukanye bitewe naho wakiguriye.

Urubuga umuguzi n' ucuruza bahuriraho bakaganira ku giciro cy'igicuruzwa, ndetse akagabanyirizwa mirongo itatu na gatanu ku ijana y'igiciro, bikamugeraho mu buryo bw'ihuse kandi bwizewe.

Ipoto igaragaza umuntu uri mu nzu y'imbere, inzu bigaragara ko ari shyashya yambaye impuzangano ziri mu mabara y'umukara ndetse n'ishati ijya ku n'umwe n'inkweto z'umukara aba ameze nk'umuntu uri kwerekanaga ubwiza bw'iyo nzu.

Ifoto igaragaza inzu ya etage nini nziza ifite amabara y'umweru, ifite ibirahuri by'umukara byijijwemo ndetse hariho amabuye bita urugarika akabasashe n'andi bita amapave hasi.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iri mu ibara ry'ubururu n'umweru ndetse iriho n'icyapa kiri mu ibara ry'umukara gishushanyijeho abantu mu ibara ry'umweru, hahagaze umuntu wambaye impuzankanonziri mu ibara ry'umutuku.

Inzu igaragaza icururizwamo ibicuruzwa byo kurya ndetse n'ibyo kunywa hakaba harimo ibiri mu bikombe by'umuhondo ndetse n'ibindi biri mu dusashe turi mu mabara agiye atandukanye yaba ay'umweru, umuhondo n'umutuku.